Ikigo cy'ubwishingizi Radiyanti, kiraha kariburi munyamuryango wese wifuza kuba umufatanyabikorwa mu kunoza neza serivisi gitanga harimo kwishingira imodoka, amazu ndetse n'ubuzima bw'abantu.

Uko umuntu utwara ibinyabiziga arushaho guharanira no kunywesha ikinyabiziga cye esansi kenshi mu bafatanyabikorwa bacu batandukanye ni nako urushaho kongera amahirwe yo kubona ubwishingizi nta kiguzi utanze ibi bigarukwaho na radiant

Kwishingira ibikorwa byawe ndetse n'ikinyabiziga ugendamo, ni igikorwa cy'ingenzi cyane kuko bigabanya igihombo giterwa n'impanuka za hato na hato zino ziba zitateguje, ibi bikaba bishimangirwa na guverineri wa banki y'igihugu

Radiyanti ivuga ko muri iki gihe tugeze mu gihe cy'imvura, imvura nyinshi, imyuzure n'ibindi biza byakwangiza inyubako yawe bikagutera ibihombo, ukwiye kugana iki kigo kikabyishingira.

zZgama none tera imbere ejo ikimina cyacu iyi ni imvugo ikoreshwa cyane cyane mu bwishingizi buzwi cyane mu rwanda nka purayime rayife incuwarensi aho buri munyamuryango ashyiramo abamwegereye bose kugira ngo bazabashe kwivuza neza.

Iyo ubayeho nta bwishingizi bw'ubuzima ugira ntabwo uba ufite icyizere gihambaye cyo kubaho kuri iyi si bitewe n'ibibazo biza hano n'ibiza ndetse n'ihindagurika ry'ikirere, ni bimwe mu bituma umunyamuryango wese ashobora gufata ubwisungane mu kwivuza kandi adakemangwa.

Ese ushaka gucuruza nta nkomyi, gura ubwishingizi bw'ibinyabiziga bigufasha mu bucuruzi, ibi nibyo purayime inshuwarense igarukaho mu gihe umuntu aje kuyigana, agomba kwitwaza izi serivisi zikurikira kuko ari ingenzi.

Shinganisha inzu yawe n'imodoka yawe ndetse n'ubuzima bwawe ugannye ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda aho uhabwa icyizere cy'uko ibintu byawe bitekanye.

Burayani jonezi, ni umwe mu kirangirire cyavuze yuko kidashobora kwihanganira uyu muturage ari kurenganywa. Akomeza avuga ko ibyo ngibyo bidakwiye kubera ko ariguhonyora uburenganzira bwa muntu.

Kuri iki gihe byaroroshye nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda cyangwa se wibaza impamvu ibikoresho byawe cyangwa se iby'ikinyabiziga cyawe byangiritse. Mawuwa ni icyitegererezo kandi ni icyigo gishinzwe ubwishingizi, ikora neza kandi gitanga umusaruro ku bakiriya baza bakigana.

Iyo ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga mu kwishyura umenya ibyasohotse ndetse nibyinjiye, aho ushobora kumara nibura umwaka ukaba wakubura dokima ukareba neza ibyangiritse ndetse n'ibyasanwe.

Kwishyura hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, byongereye inyungu ku musaruro w'isi muri rusange, kuko byihutisha kumenya umubare w'ibicuruzwa byasohotse ndetse n'ibicuruzwa byinjiye muri rusange.

Isoko rigurisha imyenda mu mujyi wa kigali y'abadamu riratangaza ko ryagabanyirije ababyeyi ku kigero cya cumi na gatanu ku ijana igihe umubyeyi aje arigana muri iyi minsi mikuru ya noheli n'ubunani kandi rinatanga icyizere cy'ejo hazaza.

Amabutike acuruza imyenda ikorerwa mu Rwanda mu buryo buzwi nka medi ini Rwanda baratangaza yuko ikibazo cya caguwa kitakiboneka mu Rwanda bitewe nuko iyi gahunda yagiye ishyirwamo ingufu ndetse n'abayobozi bagiye bakomeye b'Utugari ndetse n'Uturere.

Hari uburyo bwashyizweho mu kwishyura ibicuruzwa ukoresheje IBM. Ubu buryo ni igihe umucuruzi afata fagitire ye iyo ayamaze kugurisha ibicuruzwa ubundi akayisohora mu mashini ubundi akayihereza umukiriya. Ibi bifasha cyane mu kuzamura icyizere ndetse no gusorera umutungo w'igihugu.

Gorudeni pishoni shopu ni iduka riherereye mu mujyi rwagati rigurisha imyenda ye cyane cyane iy'abadamu. Iduka rivuga ko mu gihe cy'imvura rigurisha imyenda myinshi cyane ugereranyije no mu gihe cy'izuba kubera ko abana aribwo baba bayikeneye cyane.

Imisego ndetse n'ibiringiti bikomeje kwinjiza agafaranga umusego umwe wo kuryamaho bigusaba kuwishyura amafaranga nibura ibihumbi bibiri by'amafaranga y'u Rwanda kugirango nawe ubeho neza utuje .

Imwe mu mitako ikoreshwa mu kurimbisha inzu usanga ari myiza, aho igiciro cyayo gikomeje kwiyongera, umutako umwe ubungu ugeze ku gaciro k'amafaranga ibihumbi na magana atanu, mu gihe hanze ho aba igihumbi na magana atanu by'imadorari.

Abacuruza imitako ndetse n'ibikorwa by'imideri bavuga ko inyungu bitewe n'abakiriya bagenda babona yagiye yiyongera, yavuye ku bihumbi magana inani ikagera kuri miliyoni eshanu mu gihe cy'umwaka.

Imyenda ya siporo ni imyenda igurishwa cyane mu mujyi wa Kigali, kubera ko abaturarwanda baho bakunze kugenda bata igihombo baterwa no kubura iyo myenda, ariko muri simba supamaketi hari amavuriro menshi agaragaza ko ibyo bintu bikorwa cyane.

Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bwerekanaga ko imyenda y'abagabo ihenda cyane kuruta iy'abagore. Ibi bikaba bigaragaza cyane igihe ugiye kugura umwenda aho usanga umwenda w'abagabo ukubye gatanu igiciro cy'umwenda w'abagore.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Sosiyete nyinshi zitandukanye zicuruza imyenda zishishikariza abantu bazigana kwitwararika mu gihe bari kugenzura imyenda yabo bayambara kuko bituma indwara nyinshi zigenda ziyongera mu gihe umuntu umwe yigiza umwenda akaba yakwanduzamo indwara. ibyo bigatuma n'undi u yambaye yakwandura iyo ndwara.

Akagera motozi, ni imwe muri sosiyete ikodesha ba mukerarugendo imodoka, aho buri muntu yishyura amafaranga y'u Rwanda ibihumbi mirongo itanu kugira ngo abashe kuba yakoresha serivise z'iyo modoka. Ibyo kandi ni byiza cyane ku muntu uwo ari we wese wifuza gutembera.

Gukodesha imodoka ni igikorwa cyiza, aho umuntu udafite amafaranga hari igihe acibwa amande y'uko yangije igikoresho yahawe kandi cyari kizima.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, hakubiyemo ibyoku kurya urugero nka biswi, amasambusa, amandazi harimo kandi n'ibyo kunywa nka ji, yahurute n'amata.

Jesibi ni kampani ishinzwe gutwara ibishingwe ikorera mu mujyi wa Kigali, igenda isakuma imyanda y'ibisigazwa by'abaturage kugira ngo bibyazwe umusaruro mu bundi buryo.

Ibicupa binini, amaji ndetse n'ibindi bicuruzwa bigezweho usanga bihenze cyane mu masoko acuruza ibiribwa mu mujyi wa Kigali abantu benshi babigana barinubira igiciro kiri hejuru.

Bimwe mu bigo by'imari bikorera mu Rwanda birashishikariza abaturarwanda bose kubigana kugira ngo bahabwe inguzanyo muri byo. Hari aho bunguka ikenda ku ijana ndetse hari n'ibindi usanga byungurwa cumi na kabiri ku ijana, abaturage babigannye babyungukira kandi nta kibazo bagira.

Isoko rigurisha imodoka rizwi nka Kigali kazi maketi, rirakangurira abanyarwanda ndetse n'abandi bifuza kurigana ko ryashyize hanze imodoka iri ku giciro cyiza, bakaba babasanga kuri nimero zeru karindwi umunani itarantu gatatu itatu umunani, mirongo inani na kane, icyenda kane.

Ibimodoka binini cyane bimenyerewe mu gutwara ibikomoka kuri peteroli hanze y'igihugu, biravugwa yuko nabyo byaje gufatirwa ingamba yo gushyira utuntu tugabanya umuvuduko muri sisitemu yabyo kugira ngo bitazongera guteza imyuka mibi.

Imodoka ni kimwe mukinyabiziga buri muntu wese agira mu nzozi ze kuva akiri umwana kugeza abaye umuntu, nibura kugirango ubone imodoka irimo ubwoko bwa vogisi wageni ikorerwa mu budage bigusaba ibihugumbi ijana by'idolari.

ABG gurupe ni sosiyete ikodesha abantu imodoka bashaka kuzikoresha muri gahunda zabo, irababwira ko yabazaniye ikinyabiziga gikoresha ingufu zo hejuru ndetse kitangiza ikirere.

Abakire bamaze gufata ku ifaranga bifuza kugenda mu modoka zikomeye cyane, hari imodoka igura amafaranga angana n'amadolari magana atanu y'amanyamerika, aya asaga ibihumbi magana arindwi cyangwa magana inani y'Amanyarwanda bitewe n'uko isoko rihagaze.

Kuvunjisha amafaranga binyuze mu buryo buzwi nka foregisi egisicenji, bwihutisha itumanaho ndetse no gukemuka kw'ibibazo abantu bagira igihe bari guhererekanya aya madovize.

Amafaranga agenda atangwa mu buryo bwo guhererekanywa mu ntoki akomeje kugenda aba ikibazo kuko ngo akwirakwiza indwara zandura harimo n'ibyorezo. Ibi bigaragara mu gihe icyorezo cya Kovide cyari kimajije gufata indi ntera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri.

Mu rwego rwo kwirindira umutekano ndetse n'ibintu byawe, ugomba gukoresha kamera zabugenewe zifata abajura ndetse n'abandi bagizi ba nabi bashobora kwangiza ibikorwaremezo.

Amakaragiro y'amatage agiye atandukanye mu gihugu ashishikariza abahinzi n'aborozi kwitwararika mu gihe bari gutunganya umukamo wabo, kugira ngo nugera ku isoko ntute agaciro ugereranranije n'uko ayandi agenda ata agaciro.

Umusaruro w'umukamo mu karere ka Muhanga, urimo urakemangwa cyane bitewe n'izuba ryavuye muri iki gihembwe kubera ko abahinzi barataka igihombo gikomeye, cyatewe no kubura ubwatsi bagaburira amatungo, bityo bigatuma umusaruro w'umukamo ugabanuka cyane.

Igi rimwe nibura rya buri munsi ku mwana rihagije kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi no gukura bigende neza, ubushakashatsi bugaragaza ko iyo uriye igi rimwe uba winjije hafi karori magana atanu za vitamine zituma wahangana n'indwara.

Iyo amata afite isuku ndetse n'abantu bayanywa bagubwa neza akaba yabagirira umumaro mu buzima bwabo bwa buri munsi, ni ngombwa kunywa amata asukuye kandi yakamanwe isuku kugira ngo agire icyo agufasha mu buzima bwawe.

Amata ni amwe mu binyobwa bigiye bikungahaye kuri vitamine nyinshi cyane, aho umuntu uyanyoye agira ubuzima bwiza ndetse akagira n'ubudahangarwa bw'umubiri, aho indwara iyo zije zimugana umubiri urushaho kugenda uzirwanya, biragaragara cyane ko hari imibare yagiye izamuka yongereweho umukamo.

Ikivuguto cya Mukamira ni amwe mu mata yakunzwe cyane n'abana bitewe n'uburyo akungahaye kuri vitamine zifasha abana gukura neza ndetse bakagira ubwengemu ishuri, iyi akaba ari yo mpamvu yihishe inyuma y'uburyo ikivuguto cya Mukamira kigurwa cyane.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Uburyo bwiza bwashyizweho bugezweho bwo kwishyura udakoresheje amafaranga buzwi nka kashiresi, ikigo gishinzwe iby'itumanaho muri ubu buryo sitene, kirashishikariza buri muturarwanda wese kugana iki kigo bitewe n'uburyo ari ikigo kiza.

Guhererekanya amafaranga binyuze mu buryo bw'iyakure cyangwa se bwa interinete ni kimwe mu gutanga icyizere cy'ejo hazaza. Mu Rwanda, bivugwa ko muri visiyo y'ibihumbi bibiri na mirongo itanu ubu buryo buzaba bugeze ku kigero cya mirongo icyenda na gatanu kw'ijana mu baturage bose.

Kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga muri Nigeria byafashe indi ntera, nk'aho hashyizweho uburyo bwa apulikation yifashishwa mu kugira ngo gahunda zose za mudasobwa zigendane n'imisoro ndetse no kwishyura ibiciro na fagitire.

Ikigo cy'igihugu Rwanda reveni, kiributsa abantu bose basoze muri uyu mwaka w'igihembwe cya kabiri ko bakwiye kwihutira kumenyekanisha umusoro wabo batari bacibwa amande ahanwa n'itegeko.

Fagitire ni nziza kandi ni na ngombwa mu gihe ugura n'ugurisha bumvikanye amafaranga bagomba kwishyura, bityo hari sosiyete zishinzwe kujya muri iyo gahunda, kugira ngo aho hose habemo ubwumvikane.

Gukora ingengabihe y'uburyo uzakoresha umutungo wawe ni byiza cyane kubera ko igihe ubikoze neza bituma amafaranga yinjira n'asohoka bingana, bikagabanya igihombo barwiyemezamirimo bahura nacyo mu gihe bari gukora ibikorwa byabo bya buri munsi bibateza imbere.

Uko ubukungu bugenda buzamuka ni nako amafaranga agenda ata agaciro amwe n'amwe aturuka mu bihugu bitandukanye, aha twavugamo nk'amafaranga yo mu gihugu cya Afurika y'epfo agenda akoreshwa na ba mukerarugendo basuye parike zaho.

Agaciro k'amafaranga y'abanyamerika azwi nk'amadolari gakomeje kwiyongera cyane mu bihugu bigiye bitandukanye ku isi, aho mu Rwanda ubungubu igiciro cy'idolari rimwe, gihagaze amafaranga y'u Rwanda akabakaba hafi igihumbi na magana ane yose.

Amafaranga igihe umuntu wese ayafite aba yumva atekanye kandi ikibazo icyo ari cyo cyose yahura nacyo yagikemura, iyo nta mafaranga ufite abahanga bavuga ko mirongo itanu ku ijana by'ubuzima bwawe buba butameze neza.

Kuvunja amafaranga utabifitiye uburenganzira ibi byangiza cyane imikoranire ndetse n'imicungire y'amafaranga y'amabanki, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu rwanda rdb kirakangurira abantu kwirinda ibi bintu.

Ifaranga ry'idorari ry' Amerika rikomeje kuzamura agaciro bitewe n'uko abarikeneye ari benshi cyane ku isi. Iri faranga rikomeje guca agahigo kuko ariryo rya mbere riri gukoreshwa mu bihugu byinshi cyane aho bakoresha baribara amafaranga yabo.

Kuvunjisha amafaranga byafashe indi ntera, bitewe n'uko ibihugu byinshi na bimwe biba bishaka ko amadorari ariyo abikoreshwa. Ibyo bituma abaturage babyo bahitamo gukoresha amadorari bagana ibiro bivunja amafaranga kugira ngo bahabwe agaciro kahwanye n'ayo bafite.

Igihugu cya Tanzania gifite ubwoko bugera muri butandatu bw'amafaranga gikoreshwa mu Gihugu, aho ubu gifite inote ya bibiri, inote y'igihumbi, inoti ya magana atanu ndetse n'andi mafaranga agenda akoreshwa harimo n'ibice. Ibi bikaba bizamura icyizere cyabo.

Hoteri nini iri mu bwoko bwa etaje igeretse gatatu yanditseho giriti apatimenti hoteri ivuze ko ari hoteri nziza irimo amacumbi akodeshwa.

Mu kubara amafaranga hifashishwa imashini zikomeye cyane kandi ziyabara byihuse bitewe n'uko gahunda y'Isi ari ukugendera ku muvuduko wo hejuru, ibyo bigatuma gahunda z'abashigajwe inyuma n'amateka barushaho gutera imbere binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Ifaranga ryo mu gihugu cy'Ubushinwa ryaravuguruwe aho ryavuye ku kirangantego cya za faya egisitanguwisha kigashyirwaho ikirangirire muri icyo gihugu.

Nk'uko idolari ry'amerika rikomeje gutera imbere no kuzamuka, ni nako ifaranga rikoreshwa mu gihugu cy'ubushinwa riri mu moko atanu harimo amafaranga ari mw'ibara ry'ubururu n'icyatsi, umuhondo ndetse n'umukara. Bikaba bivugwa na meya w'akarere gashinzwe kubungabunga ibikorwa remezo.

Bitewe n'ibigwi umuntu afite mu mateka y'igihugu cye cyangwa se ibikorwa by'indashyikirwa yagiye akorera igihugu usanga ahanini igihugu cye gihitamo gukoresha ifoto ye cyangwa se umwirondoro we ku note zacyo nk'ikirangantego cyerekana ibikorwa yagiye akora.

Banki nkuru y'igihugu muri Congo itangaza ko ifaranga ryaho ryagiye rizamuka cyane bitewe n'uko idorali rikomeza kwiyongera ku isoko. Ibi bigatuma abakora ubuhahirane muri icyo gihugu barushaho gutera imbere by'umwihariko mu bijyanye n'ubucuruzi.

Uburyo bwiza bwizewe bwo kuvunjisha amafaranga, ni ukugana ibigo bibifitiye ubushobozi ndetse n'uburenganzira kubera ko abantu babikora, batabifitiye uburenganzira usanga hazamo uburiganya bukabije cyane, ndetse n'ubundi bushukanyi bwambura.

Iyo abayobozi basoje inama bari barimo hari ahantu habugenewe bahurira bakiga ku myanzuro yafashwe ndetse bakanatanga n'umucyo ku bibazo byagiye bigaragazwa ,aho hantu iyo bahageze baraniyakira.

Iyo uvunjisha amafaranga uyakura muyawe bigusaba inyungu ntoya ku bantu bagukoreye iyo serivisi, ni muri urwo rwego karensi egisicengi ayisi ikorera mu murenge wa Gitega ishishikariza buri wese kuyiga.

Foregisi biro, manigaramu, wesitani yuniyoni, ubu bwose ni uburyo abantu bashaka kohereza amafaranga mu bihugu by'amahanga bakoresha kugira ngo agere kubayagenewe.

Kugira salo nziza ni bimwe mu bigaragaza ko umuntu yiyubashye kandi ashoboye afite n'agafaranga, bityo birimo nk'imeza, intebe ndetse n'amadive, ibi bigaragazwa n'impuguke mu by'imyubakire Jean paul.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

utubati intebe ndetse n'ibindi ni bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu muri salo cyangwa se mu mazu y'abantu. Ibi bikaba bitera ikibazo bitewe n'uburyo ki ibiciro by'ibi bikoresho bikoreshwa mu nzu byagiye byiyongera cyane cyane bitewe n'umubare w'ababikeneye uburyo wazamutse ku isoko.

Kugira ngo hoteli ibe yujuje ibisabwa hari ibintu bigenderwaho. Abenshi hari abavuga ko aba ari amasaha ikoreraho, intebe n' ibindi. Ariko ibyo siko biri kuko ubundi hoteli kugira ngo bavuge ko iri ku kigero cyiza, babibara mu nyenyeri. Aho inyenyeri ubwo imeze neza, ari inyenyeri ya gatanu.

Ibigo bicumbikira abantu bivuga ko bitaka igihombo gikomeye byatewe n'icyorezo cya Kovide, kuko abakerarugendo batigeze binjira cyane mu gihugu, kandi ibi ntabwo byari byitezwe mu myaka yagiye ibanza.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu amadarubindi, uri guseka wambaye umupira wumweru ndetse ufite mudasobwa mu ntoki ze. Ari ku gapapuro k'ubururu kandidikishijweho amagambo yumweru ndetse n'ayumuhondo yanditswe mu kirimi cyamahanga cyicyongereza.

Abaherwe bamaze kugwira agafaranga batembera mu bice bitandukanye bihenze ku isi. Ibi bishimangirwa n'abaturuka mu bihugu bikomakomeye cyane bizwi nka Amerika, aho bajya kwidumbaguza mu mazi ndetse na za pisine.

Hoteli ya mbere ikomeye muri Afurika iboneka mu Gihugu cya Misiri kuko yakira abantu baturutse hanze mu Bihugu byo mu Burayi. Aho icyumba kimwe cyishyurwa amafaranga asaga miliyoni magana abiri z'amafaranga y'u Rwanda mu ijoro rimwe.

Ibikorwa byo kubaka no kuvugurura umujyi wa Kigali birarimbanyije aho buri nzu yose igiye ihagaze agaciro gasaga miriyari zirenga zirindwi z'amadorari y'Amerika, ibi biratanga icyizere ko mu mwakaka w'ibimbi bibiri na mirongo itatu na kane gahunda yo kuvugurura umujyi izaba igezweho.

Umuntu wambaye ishati y'amaboko karuvati ya rujeborodo isaha y'umukara ku kuboko ari kuvugira muri mayikorofone birashoboka ko ari kuvuga ibyo uruganda rw'icyayi rwa Rutsiro rukora.

Umuhanda w'igitaka urimo imodoka ebyiri imwe y'umukara n'indi yenda gusa umweru, tukabonamo inzu ku ruhande yarwo yubakishije amabuye kandi ifite amababi y'umutuku ni'gipangu cy'umukara.

Umuyobozi w'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda Prime life insurance, agaragaza ko kuba baragiriwe icyizere ari ibintu babashimira cyane abaturage, bitewe nuko umusaruro wacyo wazamutse cyane muri uyu mwaka.

Ikigo cy'ubwishingizi n'ubwiteganyirize mu Rwanda kizwi nka purayime rayife inshuwarense mu karere ka rusizi kirakangurira abaturage batuye mu murenge wa Nkombo, kwitabira iki gikorwa bitewe n'uko ari ingirakamaro kuri buri muntu.

Amasare manini cyangwa se ibyumba byakira inama, ni bimwe mu byinjiza agafaranga gatubutse, kubera ko igihe abantu baje babigana, hari amafaranga menshi bacibwa kandi bakayishyura nta nkomyi, bitewe na serivisi nziza babisangana.

Saniramu ni ikigo cy'ubwishingizi cy'ubwiteganyirize mu Rwanda, kuko abaturage bakigana barishimira serivisi bahabwa muri iki kigo. Byongera ikizere ndetse n'ubunyangamugayo bwacyo ku baturage.

Inama yateranye uyu munsi tariki ya kabiri Nzeri, itangaza ko hari imyanzuro yagiye ifatwa ntikurikizwe bityo bigatuma ubwishingizi bw'imodoka bugenda bukendera. Ibi bigarukwaho n'umunyamabanga ushinzwe ibikorwa by'ubwishingizi mu Rwanda Gasana.

Ubuzima ni kimwe mu bintu umuntu ubufite agenderaho mu gihe ubuzima bwe bumeze neza arushaho kwiteza imbere bityo rero yaba ubuzima bw'ibyo akoresha ndetse n'ubwe ku giti cye bukeneye ubwishingizi, aho mu Rwanda hari ibigo byinshi cyane bigiye bitandukanye bishinzwe kwishingira ubuzima ndetse n'ibinyabiziga by'abantu.

I and M Bank, ni kigo kizewe kandi gitanga inguzanyo ku bakigana kubera ko inyungu yabo iri hasi cyane ugereranyije n'izindi banki zikorera mu Rwanda, iki kigo kirihanangiriza abantu bose bakomeje kugenda bagisebya bavuga ko cyunguka cyane.

Imodoka nini dukunda kwita bisi mu Rwanda iparitse mu muhanda w'igitaka hakurya y'umuhanda kandi hari ahantu hahanamye hameze nko ku musozi ndetse hari n'ibiti wagirango ni mu ishyamba, iyi modoka rero ikunda gutwara abantu benshi hari aba bari kugenda bahagaze ndetse na bari kugenda bicaye yoroshya ibintu rwose, yoroshya urugendo mu buryo bw'imitwarire cyangwa se mu buryo bwo koroshya umubare munini w'abagenzi bitewe n'uwo mubare w'abo itwara.

Umuhanda ni igikorwaremezo gifasha abantu bose mu buzima bwabo bwa buri munsi turavuga abamotari, imodoka ndetse n'abandi bantu bawukoresha mu buryo busanzwe burabafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Ku munsi mpuzamahanga wahariwe abadamu, ikigo cy'igihugu gishinzwe gufasha abantu cyo muri Amerika uwesayidi, cyabageneye impano irimo ibitenge, amasafuriya ndetse n'ibindi bikoresho byose byifashishwa mu buzima busanzwe.

Wakwizigamira ukoresheje Giti banki bitewe n'uko umutekano w'amafaranga wawe uba wizewe ijana ku ijana. Tandukana n'ibindi bigo by'imari bigusaba kuzana ingwate kugira biguhe inguzanyo kuko aha ntibihaba.

Ubushomeri bugenda bwiyongera cyane cyane mu rubyiruko ariko hari ibigo by'imari mu Rwanda bikomeje gushishikariza urubyiruko kugira ngo rwiteze imbere, aho rushishikarizwa gukura amaboko mu mufuka, rugakora kandi rukiteza imbere.

Kuzigama muri banki popireri cyangwa se bipiyara, ni inyungu kuri buri munyarwanda, kubera ko ifite abantu basaga miliyoni mirongo itatu, batanga inguzanyo.

Ibikoresho by'isuku, amapantaro, ibikapu, amakayi n'ibindi bitandukanye. Byose wabisanga mu isoko rya Nyabugogo, umanutse gatoya ku gahanda kava Kimisagara kagana mu Majyepfo.

Intoryi ibigori inyanya n'ibindi biribwa byinshi birimo bimwe mu byinjiza agafaranga gatubutse ku isoko ryo mu rwanda kuko bikenerwa na buri wese.

Uburyo bushya bwashyiriweho abakorera mu Rwanda buzwi nka made in Rwanda, aho ibicuruzwa byose bigenda bikorerwa mu Rwanda, birushaho gutezwa imbere, ndetse bikanoherezwa mu mahanga. Bigaragazwa ko abagore aribo bagize uruhare runini mu gutumara iri terambere ryiyongera.

Bimwe mu bintu bikurura akajagari n'abamotari barimo bitewe n'uburyo baparika amamoto yabo mu buryo butari ubwa nyabwo, ibi bigaragara nk'aho ari akavuyo kaba katewe n'akajagari ka moto baba baparitse, kandi bataziparitse ahantu hatunganye.

Ibitunguru, inyanya ndetse na powaro, bikoreshwa cyane hafi y'amabagiro, kugira ngo umuntu umaze kugura akaboga, agure n'ibirungo byako ubundi ashyirare umuryango, baguge neza.

Ibirayi biri mu bimwe mu bihingwa biboneka cyane mu karere ka Musanze, aho abagana isoko ry'aho mu mujyi rwagati usanga higanjemo ibirayi byinshi cyane bigurishwa n'abagore bagiye batandukanye, ibi bikaba bitanga icyizere cy'uko ibirayi biziyongera.

Umuhanda urimo imodoka zitari nyinshi iy'umutuku inyuma, imbere hari izindi n'amamoto hepfo tukabona urukamyo runini cyane bisa nk'aho ari rwarundi ruterura izindi, mu muhanda tukabonamo icyapa kiriho umweru tukabonamo amapoto rwose y'amatara amurikira umuhanda.

Igihe umukiliya w'imwe muri sosiyete z'itumanaho mu Rwanda emutiyene, ataye simukadi imubaruyeho agomba kugana icyicaro kugira ngo akurikiranwe kandi aryozwe ibyo byose.

Kugira ngo nibura umunyamuryango ukorera Emutiyene ahabwe kiyosike zimufasha mu kumurinda izuba mu Rwanda, hari ibintu byinshi agomba kuzuza nko gukora nibura amezi icumi adasiba ndetse akirinda n'ibikorwa by'uburiganya.

Vuba vuba ni sosiyete ikomeje guca agahigo ko gutwaza abaguzi, ibicuruzwa baguze, ibi biterwa n'uko iyi sosiyete yagiye ikemura ibintu byinshi bitandukanye birimo ku kwirinda gutakaza igihe.

Umuntu iyo afite ikintu akeneye asabwa kujya ku muhanda ku kigura. Nyamara hari bamwe bakoresha telefone zabo bakishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse ibicuruzwa bashaka bikaba byabageraho kandi ku giciro nk'icyo bari basanzwe bafite. Icyo gihe rero hari kampani zishinzwe kubibagezaho.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ishushanyijeho telefone iri kugaragazaho akanyenyeri maganinani urwego hari imibare yanditswe impande hariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'andi ari mu ururimi rw'ikinyarwanda makeya na nimero za telefoni.

Asaga miliyoni ijana na cumi n'eshanu y'amanyarwanda ashobora kukugurira inzu nziza mu mujyi wa Kigali, aho usanga iyo nzu ifite pisine, ifite ibyumba bitandukanye, ifite jaride ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Miliyoni magana atatu na mirongo itanu y'amafaranga y'u Rwanda hari aparitoma mu mujyi wa Kigali cyangwa se zishinzwe kugurisha no gukodesha abakiriya baza bazigana, wahabona inzu nziza cyane.

Ku mafaranga y'u Rwanda miliyoni mirongo irindwi n'eshanu ushobora kugura ikibanza cyangwa se inzu yubatse neza i Kigali ahagana i Gasanze, ni ikibanza gifite ku buso bwa metero magana atatu mirongo itanu kilometero kare kugira ngo icyo kibuga kigende neza.

Kibagabaga hari inyubako igurishwa kandi ikagurishwa amafaranga make cyane, aho umuntu ufite amafaranga byibura ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu by'idorari, ashobora kubona iyi nyubako kandi ikaba idahenze ugereranyije n'izindi zose.

Umusaruro uturuka ku bigendanye no gucumbikira ba mukerarugendo mu gihugu ugenda wiyongera cyane. Ibi bigaragara mu gihe abinjira biyongera baje gusura ibikorwa remezo ndetse n'amapariki yose yo mu gihugu.

Ibihumbi magana atandatu ku kwezi, byaguha inzu nziza, ifite uburyamo bubiri, kamera, ndetse na jaride ushobora kwicaramo ukaruhuka kandi ukagubwa neza.

Abagana amahoteli akomeye mu Mujyi wa Kigali, bavuga ko bakirwa neza kuko gahunda zo kwakira abakiriya neza zagiye zitezwa imbere cyane ugereranyije n'imyaka yagiye ishira cyangwa se ugereranyije n'ibindi bihugu byose bikikije igihugu cyacu.

Abagabo babiri ndetse n'abagore babiri umwe yitwa Philippe umwe mu bakandida bahatanira kuyobora igihugu cy'u Rwanda akaba ari kubwira abaturage imigabo n'imigambi azakora mu gihe yaba abonye ububasha bwo kuyobora igihugu.

Ibigo by'imari birabwira abakiriya babyo ko bakwiye kubigana bakabaha inguzanyo ndetse bikabafasha kugura inzu mu mujyi wa Kigali kubera ko zihendutse cyane.

Ibigo bicumbikira ba mukerarugendo, bitangaza ko muri uyu mwaka w'ingendo byungutse amafaranga menshi, aho byavuye ku madorari igihumbi bikagera ku madorari ibihumbi cumi na bibiri buri mwaka. Ibi bitangazwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ibikorwa remezo.

Miliyoni cumi na zirindwi zishobora kuguha ikibanza kirimo inzu nziza ifite amadirishya, amabati ndetse n'ibindi. Aha akaba ari mu karere ka Musanze, Umurenge wa Kanzenze.

Abantu benshi bashishikajwe no kubaka amazu ariko ndetse hari n'abandi badafite ubushobozi bwo kubakwa ayo mazu, ibihumbi magana atandatu by'amafaranga y'u Rwanda bishobora kugufasha kubona inzu yo gukodesha ifite ibyumba bine, ubwogero butatu ndetse na saro nini yo kuganiriramo n'abashyitsi.

Inzu nziza ifite amakaro, iherereye i Mayange, kuri miliyoni cumi n'eshanu, wahabwa iyo nzu rwose, ifite amadirishya, ibyumba bine, ubwogero ndetse n'igipangu kiyikikije, ni karibu cyane.

Amadolari ijana na mirongo itanu mu mujyi wa Kigali wabasha kubona icyumba kimeze neza cyo kuraramo, kirimo ibintu byose nka tuwalete, ubwogero ndetse n'ibindi byifashishwa mu buzima.

Ibigo bi bishinzwe guhuza umuguzi ndetse n'umukiriya, birashishikariza abantu kubigana, bitewe nuko igihe cyose umuntu akeneye inyubako cyangwa se ikindi kintu cyo kugura, agomba kubigana kandi agahuzwa n'umukiriya mu buryo bworoshye.

Hari inzu igurishwa miriyoni eshanu, ifite ibyumba bine, ubwogero butatu, iyi nzu ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali rwagati, umuntu waba ayikeneye wese yatugana kuri tomu deyirizi doti rwa ubundi agahabwa inzu ye.

Mu mujyi wa Kimironko bigaragara ko hari amazu menshi atandukanye akeneye gukodeshwa. Inzu imwe ihagaze amadolari magana atatu hafi ibihumbi magana atanu na makumyabiri by'amanyarwanda ibi bikaba bitera ikibazo mu bantu ko batabasha kwigondera iyo nzu.

Muri iki gihe ibintu byaroroshye, ushobora kuba wibereye iwawe ugatumiza ibiribwa bitandukanye nk'inyama ndetse n'ibindi bakabikugezaho aho waba uri hose. Hari imodoka zibishinzwe urahamagara ukavuga aho uri ukabarangira neza bakabikuzanira ibi byoroheje ibintu byinshi.

Inzu nyinshi zijyanye n'ubucuruzi, hari n'izindi zijyanye no kubamo. Inzu zo kubamo usanga ahanini zikoreshwa n'abantu bafite imiryango y'abantu batandukanye, aho usanga abantu nka batandatu baba mu nzu imwe bityo bigatuma barushaho gutekana neza.

Kacyiru mu Mujyi wa Kigali, haboneka amazu akomeye cyane harimo ibyumba bibiri, ubwogero, aho ku cyumba kimwe ushobora kwishyura amadolari magana abiri cyangwa se ibihumbi magana atanu by'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bikaba biteza icyizere ndetse n'ikibazo ku bantu batifitiye ubushobozi.

Gukodesha inzu mu mujyi wa Kigali bisigaye byihagazeho, cyane cyane mu gace ka Kimironko, inzu iba ifite ibyumba bitatu, na salo, biri gukodeshwa asaga amafaranga ibihumbi magana inani y'u Rwanda mu minsi mirongo itatu, ibi bikaba biterwa n'uko umubare w'abantu bazikeneye ugenda wiyongera buri munsi.

Kabeza hari inyubako nyinshi zitandukanye ,iyo inzu imaze kuzura bisaba ko abantu baza bakayigura cyangwa se bakayikodesha. Umuntu wese wifuza igikorwa nk'iki agomba guhamagara nimero ziri ku rukuta rwabo rwa facebook.

Kabeza hari inzu nziza kandi imezeze neza igurishwa, cyangwa se umuntu ashobora guhitamo kuyigura cyangwa akayikodesha ukwezi ni amafaranga make cyane kuko angana n'amadorari magana ane ahwanye n'ibihumbi hafi magana atatu by'amanyarwanda ntikariho cyane rwose.

Utubari ducuruze inzoga zisembuye n'izidasembuye mu mujyi wa Kigali twarihanangirijwe cyane n'ikigo gishinzwe imikoreshereze n'imigenrire y'ibikorwa remezo ko tugomba gushyira ubwiherero rusange ndetse n'ubwiherero bwihariye kugira ngo babashe kwimakaza isuku.

Ibicuruzwa birimo amafanta ndetse n'amaji bigenda bigabanyuka cyane ugereranyije n'imyaka yashize, kuko mu masoko agiye akoma komeye mu mujyi wa Kigali byagaragaraga ko biri ku giciro cyo hasi ariko ubu bikaba bigiye byiyongera.

Iyo uguze ibicuruzwa ukoresheje uburyo bw'iyakure cyangwa se ubu buzwi nka interinete, bigufasha kugira byinshi wirinda mu gutakaza umwanya wawe w'ubusa ujya kubishakisha.

Umusoro ku bwoko bw'ibinyobwa bigurishwa mu Rwanda wariyongereye bitewe n'umubare w'abantu babikenera, igihe umuntu akeneye icyo kunywa asabwa nibura amafaranga igihumbi kugira ngo abashe kwica ingwagasi, ibi bikaba bishatse kuvuga ko umusoro ugomba kugenda ugabanuka byanga bikunze.

Isoko rigurisha imyenda rya kimironko usanga ryitabirwa cyane n'abagore, kuko rigurisha ibikapu ndetse n'imyenda y'abagabo, ibi bikaba biterwa n'uko abagabo baba bagiye gukora, ndetse abagore bagasira bajya guhaha, ndetse bakita no ku nshingano z'urugo.

Kugura amatapi ni igikorwa cyiza ku bayisilamu bose, kubera ko igihe bari gusara bakoresha amatapi kugirango igikorwa cyabo kigende neza, ibi akaba ari byiza kandi bibafasha.

Kugura ukoresheje amafaranga mu ntoki biba byiza bitewe n'uko nta muntu waza ngo ayagutuburire cyangwa ngo akoreshe ubundi bushukanyi bwambura, aho bifatwa nk'icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu amadarubindi, uri guseka wambaye umupira wumweru ndetse ufite mudasobwa mu ntoki ze. Ari ku gapapuro k'ubururu kandidikishijweho amagambo yumweru ndetse n'ayumuhondo yanditswe mu kirimi cyamahanga cyicyongereza.

Kugura warangiza ukishyura ibicuruzwa uguze mu buryo bw'ikoranabuhanga, ni igitekerezo cyagiye gitezwa imbere cyane ugereranyije n'uburyo bwa mbere abanyarwanda bishyuraga bakoresheje amafaranga mu ntoki, ibi bikaba byaradindizaga iterambere ndetse no kwihuta kw'ibicuruzwa.

Gereza ya Nyarusenge ahafungirwa abagore bemejwe ibyaha bakoze, byemewe n'amategeko aho bajyamo bagafungirwamo, bagakorera ibihano byabo, bagasohokamo ibihano byabo birangiye.

Uku ni uko bishyura amafaranga bakoresheje ikoranabuhanga bisa nk'aho ari mu gihugu cy'Ubwongereza, umuntu yari yohereje amafaranga igihumbi berekana n'undi ayo aribuze kwakira, kandi biba byerekana nimba ukoresheje ikarita za banki cyangwa izindi zose waba ukoresheje birabyerekana.

Mu gutanga umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda nta gihombo kirimo bitewe n'uko ikigo cy'igihugu kibishinzwe ara esesibi cyishyurira buri munyamuryango mu kigero cy'ijana ku ijana.

Ikigo gishinzwe ubwiteganyirize ndetse n'ubuvuzi Ara ese sibi, kirashimira abanyamuryango bagize uruhare mu kwitabira gahunda zo gutanga umusanzu wabo, mu bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza cyangwa se buzwi nka Mituweli de sante bunabashimira.

Ejo heza ni ikigo cyashyiriweho abaturage b'u Rwanda kugira ngo bazabashe kwiteza imbere mu minsi iri imbere kubera ko, usanga iyo bazigamye muri iki kigega amafaranga yabo abikwa neza kandi bakaba bafite ubwishingizi bwiza bw'ubuzima.

Supamaketi zo mu Mujyi wa Kigali zatangaje ko zifite poromosiyo abakiriya bazo, kubera ko muri iyi minsi mikuru na noheri ziba zarungutse cyane, zabahaye igabanyirizwa rya cumi na gatanu ku ijana kuri buri gicuruzwa baguze.

Ibicupa binini, amaji ndetse n'ibindi bicuruzwa bigezweho usanga bihenze cyane mu masoko acuruza ibiribwa mu mujyi wa Kigali abantu benshi babigana barinubira igiciro kiri hejuru.

Kugurisha ibinyobwa bikungahaye ku mitobe myinshi bitera abana ingaruka zo kurwara diyabete, ndetse n'umuti ubushakashatsi bugaragaza ko igihe nta arukoru n'imwe irimo bitera indwara zikomeye cyane.

Isoko ry'imyenda n'inkweto mu Mujyi wa Kigali, aho riri hose rirasabwa kwishyura ipatanti uyu mwaka ryikubye inshuro ebyiri ry'iryo bajyaga batanga, kubera ko byagaragaye impamvu aya masoko agenda atera imbere, ko yiba abakiriya.

Guhahira mudukanete cyangwa se udepaniye yitwa supamaketi, yongera icyizere cy'uko umuntu uri guhaha yategura neza ibyo agomba guhaha yitonze nta gihunga na kimwe afite.

Amavuta y'ubuto ubu ngubu ari guhenduka ugereranyije n'umwaka ushize, kubera ko ubu ngubu ageze ku mafaranga ibihumbi bitanu ku ka litiro. Ibi bigaragaza n'impuguke zivuga ko amavuta yo kurya aturuka ku gihwagari ari amavuta meza cyane, ashobora gufasha umubiri guhumeka neza.

Ku Gimenti hari uburyo bwiza abantu bagura imbuto, ukinjira mu marembo wakiranwe ikaze ndetse n'amagambo meza, aguha karibu kugira ngo ubashe kugura ibicuruzwa byabo.

Inzoga iri mu bwoko bwa Jemusoni bivugwa ko ihenda cyane bitewe n'igiciro igura, mu gihe umuntu akeneye kuyigura cyangwa se kunywa kuri iki kinyobwa, asabwa nibura kwishyura amafaranga atari munsi y'ibihumbi magana atatu by'amafaranga y'u Rwanda.